Icyumba cy'ishuri kirimo intebe zisize irangi ry'umuhondo. Abanyeshuri iyo bafite ibikoresho byiza, bituma biga neza, bagafata byihuse.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwandika, bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'imituku, n'inkweto n'amasogis, buri bose bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika. Ni abana bafite isuku, bameze neza.

Abaganga bari kwiga, bari kwireba mu byuma by'ikoranabuhanga, bambaye amataburiya y'umweru, bambaye n'utugofero, barimo n'abambaye amadarubindi, harimo n'undi uri kwitegereza, bose bari kurebera mu byumba kabuhariwe.

Abanyeshuri bari ku ishuri, bari kurya ibiryo biteretse imbere yabo, bambaye amashati, abarimu nabo bambaye imipira yubururu, n'amarinete, abana bambaye amashati y'umweru, harimo n'umugabo wambaye ikoti ry'ubururu n' amarinete.

Abanyeshuri bari kwiga bari kumwe na mwarimu wabo bipfutse udutambaro tw'umweru mu mutwe, hari n'abatatwipfutse, bambaye, abatatwipfutse bambaye na za karuvati z'icyatsi. Mwarimu wabo yambaye ishati y'ibitenge by'umutuku, yazingishije n'imisatsi ya meshi.

Abanyeshuri bari kwiga bicaye ku ntebe n'ameza yabo, Mwarimu wabo ari imbere yabo ari kubigisha. Mwarimu wabo yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'igitaka. N'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'ikijuju.

Abanyeshuri bari kuvugira muri mikoro, bafite n'agacupa ka ji kabateretse imbere kumeza, bambaye imyenda y'ubururu bambaye udupira tw'ubururu dufite ikora ry'umweru.

Ibikoresho by'ubwubatsi intebe, utubati, ibitanda, ameza n'ibindi binyuranye.

Abanyeshuri bari kwiga bari kurebera muri za kompiyuta. Bambaye amataburiya y'umweru n'utugofero tw'umweru. Bari kurebera mu bikoresho by'ikoranabuhanga, inyuma yabo hateretse n'ibisanduku birimo ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu bari gukora umugezi bari gucomeka impombo, bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero y'umuhondo ,bari gukora umugezi bifashishije ibyuma bitandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, mwarimu wabo na we yambaye itaburiya y'umweru ku ikora hariho ibara ry'ubururu, inyuma ye hateretse agaseke kaboheshejwe ibara ry'umweru harimo n'amabara y'umutuku.

Ameza arambitseho z'ambaraje kado hariho n'intebe z'umuhondo n'iz'ubururu, ni ameza asa n'ubururu hari n'andi meza arambitseho ururabo, no hirya y'aho hariho ameza n'ubundi arambitseho ururabo.

Abadozi bambaye za metero mu ijosi bari kudoda imyenda y'ubururu, nabo ubwabo bambaye iniforume y'imyenda y'igitaka igiye gusa n'imyenda ya gisirikare bari kudoda imyenda y'iniforome.

Abanyeshuri bari kwiga iby'ikoranabuhanga bambaye imyenda y'umweru n'utugofero tw'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'amarinete ari kureba mu cyuma cy'ikoranabuhanga.

Iyi ni atoriye y'abadozi, y'ubudozi irimo abakobwa bari kudoda, bambaye metero zisa n'ubururu bazizingurije mu ijosi, bari kudoda imyenda y'amabara anyuranye, ibitenge by'amabara, bambaye nabo, bamwe bambaye amataburiya y'ubururu, bafite n'imashini nyinshi.

Abanyeshuri baricaye bari kwiga, mwarimu wabo ari kwandika ku kibaho, yambaye itaburiya y'umweru, n'ipantaro y'ikijuju, yambaye n'agashati k'umutuku, abanyeshuri na bo bambaye amashati y'imyeru.

Umukobwa wambaye ingofero y'umuhondo ,agapira k'umuhondo, n'isarubeti y'ubururu ,afite mikoro isa n,'umukara ,ari kwerekana amatara, amatara afite pulize z'umutuku n'icyatsi.

Abanyeshuri bari kwiga， bari kumwe na mwarimu wabo， bambaye amasarubeti y'ubururu yanditseho mu mugongo， n'abarimu bambaye amashati y'umweru，na za karuvati.

Abakobwa bakora umwuga wo gusuka imisatsi bambaye neza. Basa neza bambaye imyenda y'imituku, bambaye imyenda y'ubururu buvanzemo amabara. Abakobwa bafite umwuga wo gusuka no kwitunganya.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga. Bambaye ibisurubeti by'ubururu. Uburezi ni bwiza, abana iyo babwize neza barajijuka ugasanga bameze neza. Ndikubona ibyuma by'ikoranabuhanga.

Abantu babiri bari kubaza ibitanda, bari inyuma y'urugo, ku rugi ni metarike, urugo rwubakishije amatafari ahiye. bari kubaza ibitanda, umwe ari kubaza, undi ari kubiteranya.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bari kwiga iby'ikoranabuhanga. Bambaye imyenda y'umweru bafite amakaramu bari kwandika. Harimo n'ibikoresho bitandukanye.